Akazu gato gakozwe mu byuma gafite amabara y'umuhondo ndetse kakaba gashushanyijeho igishushanyo cya terefoni ngendanwa aka kazu kakaba gatangirwamo serivisi zitandukanye zirimo izo kohereza amafaranga ndetse no guhamagara.

Iruhande rw'inyubako ifite amabara y'umweru yubatswe mu buryo bugezweho ndetse bugerekeranyije hari akazu gato gakozwe mu byuma gafite amabara y'umuhondo, aka kazu kakaba gatangirwamo serivisi zijyanye no kohereza ndetse no kwakira amafaranga.

Abagabo babiri barimo umwe wambaye umwambaro w'abakozi batanga serivise zijyanye no kohereza ndetse no kwakira amafaranga ndetse n'undi wambaye imyambaro isanzwe, umwe muri bo akaba ari kwereka undi uko serivise zijyanye no kohereza amafaranga ndetse no kuyakira zikora hifashishijwe telefoni ngendanwa.

Akazu gato karekare gakozwe mu byuma, gafite amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu. Muri ako kazu kandi hakaba harimo umusore ukiri muto. Ako kazu kakaba gatangirwamo serivisi zitandukanye, zirimo izo kwakira ndetse no kohereza amafaranga no guhamagara.

Umugabo wambaye umwambaro ufite ibara ritukura ndetse ukaba uranga kimwe mu bigo bikorera mu Rwanda bitanga serivisi zijyanye n'itumanaho ndetse akaba ari gususurutsa abantu bari imbere ye yifashishije indangururamajwi.

Imyambaro yabugenewe irimo udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki n'impuzankano ifite amabara y'umweru, ibyo bikaba bibarinda kugira ngo bataba bagira impanuka cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose bahurira na cyo mu kazi.

Mu cyumba cyagenewe ubworozi cyubakishije amatafari ahiye harimo ibiraro bigezweho by'inkoko, muri ibyo biraro kandi harimo izo nkoko ndetse kandi n'umuntu ushinzwe kuzitaho, izo nkoko zikaba zitanga umusaruro urimo amagi ndetse n'inyama.

Igikombe gifite ibara risa na zahabu giteretse ahantu heza aho gitegereje umuntu uri bugihabwe, iki gikombe kikaba gihabwa umuntu wahize abandi akegukana umwanya wa mbere mu marushanwa runaka.

Abagabo batatu bambaye imyambaro ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara bari ahantu hateganyijwe hari ubwatsi butoshye, aba bakaba ari abo mu Karere ka Nyagatare bakaba bari kwizihiza umunsi mukuru w'amakoperative muri aka Karere.

Mu cyumba cyabugenewe gitangirwamo serivisi zijyanye n'amafaranga harimo abagore babiri, umwe muri abo bagore akaba yicaye ku ntebe ndetse akaba ari gukoresha igikoresho k'ikoranabuhanga kizwi ku izina rya mudasobwa.

Ni isoko rusange rigizwe n'ibirimo ibiribwa ndetse n'imyambaro, iri soko rikaba ryubatswe mu buryo bugezweho aho ryubakishije amabati afite ibara ry'ubururu nanone kandi muri iryo soko harimo abantu benshi barimo uwitwikiriye umutaka.

Imbere y'inyubako yubatswe mu buryo bugezweho igerekeranyije, hari imodoka nini zifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu mu buryo bwa rusange. Izo modoka zikaba zifashishwa mu koroshya ubwikorezi ndetse bigatuma n'ibiciro byabwo bitajya hejuru.

Inyubako nziza cyane ifite amabare y'icyatsi kibisi, umweru ndetse ikaba isakaje n'amabati y'ubururu, iyi nyubako iri ahitegeye umusozi ahantu heza cyane ndetse kandi ikaba inafite n'ikigega gifite ibara ry'umukara gifate amazi mu gihe k'imvura maze akazaba akoreshwa ikindi gihe.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite amabara arimo ubururu ndetse n'umutuku, ari hagati mu murima w'ibishyimbo. Uyu murima ukaba urimo ibishyimbo bizwi nka mushingiriro, byera bitondagira ku biti.

Ahantu heza cyane habugenewe hafite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, aha hakaba hatangirwamo serivisi zirimo izijyanye n'ibinyobwa, abantu bashaka kugura ibyo binyobwa bakaba baza bagahurira aho maze bakishyura amafaranga bakabihabwa.

Ahantu heza cyane hari inyubako nziza zitangirwamo serivisi zijyanye n'ibyo kunywa, ibyo kurya ndetse n'ibindi, aha kandi hari n'udutanda twiza abantu bicaraho mu gihe bari kuruhuka, hari kandi n'ibiti byiza bitanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Ahantu habugenewefite amabara meza hazwi ku izina ry'akabari harimo amoko y'inzoga zitandukanye, aha akaba hemerewe gukoreshwa n'abantu barengeje imyaka cumi n'umunani gusa.

Ahantu habugenewe hacururizwamo ibyo kunywa byo mu bwoko butandukanye birimo ibisindisha ndetse n'ibidasindisha, ibikonje ndetse n'ibishyushye, harimo umugore ushinzwe gucuruza ibyo byo kunywa maze akakira amafaranga y'abaje kubigura.

Ibicuruzwa byinshi biri ahantu hamwe bikaba bicururizwa mu nzu zabugenewe, hari kandi umunzani wagenewe gupimishwa ibyo bicuruzwa mbere yuko bigurishwa. Uyu munzani ukaba wifashishwa mu gupima ibicuruzwa birimo n'isukari, umunyu ndetse n'ibindi.

Mu cyumba cyabugenewe harimo umugore wambaye imyambaro y'icyatsi kibisi ndetse n'umutuku, muri icyo cyumba hakaba harimo ibicuruzwa byinshi birimo ibyo kurya ndetse n'ibyo gukoresha mu rugo, urugero twavuga nk'amavuta, amakaroni, imifuka irimo isukari n'imyunyu ndetse n'ibindi.

Ahantu hari inyubako zifite amabara atandukanye, zikaba zitangirwamo serivisi zijyanye n'ubucuruzi bw'udukinisho dukoreshwa n'abana na none kandi hari ameza akozwe mu mbaho, izo mbaho na zo zikaba zarakozwe mu biti.

Ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye birimo ibyo kurya ndetse n'ibindi byifashishwa mu guteka tutibagiwe n'amavuta yo kwisiga, harimo umusore ucuruza ibyo bicuruzwa maze abantu na bo bakamuha amafaranga.

Mu cyumba cyabugenewe kirimo ibikoresho bitandukanye harimo umugabo uri imbere y'abantu benshi akaba ari kubagezaho ikiganiro yifashishije indangururamajwi, nanone kandi uwo mugabo yambaye agapfukamunwa.

Inyubako ifite amabara y'umweru ndetse isakaje amabati y'umutuku. Iyi nyubako ikaba ifite imbuga ngari, irimo ibyatsi, agace kamwe k'ibyo byatsi kakaba gatotoshye na none kandi hari ibiti birebire.

Itsinda ry'abagabo batatu bambaye imyambaro y'amakanzu afite amabara y'umweru, aba bakaba bafite ibyo bashinzwe muri Kiliziya Gatulika nanone kandi hari inzu zubatswe mu buryo busanzwe zituwemo n'abantu.

Itsinda ry'abagabo bambaye imyambaro ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru bafite igitambaro cy'umweru cyandikishijeho inyuguti zifite ibara ry'umukara, aha hakaba arimo ubutumwa bwamagana ibiyobyabwenge.

Itsinda ry'abantu barimo abirabura ndetse n'abazungu, bambaye imyambaro itandukanye bahuriye ahantu hamwe, bakaba bari imbere y'inyubako zubatswe mu buryo bugezweho ndetse zisakaje amabati afite ibara ritukura.

Inyubako nini yubakishijwe amatafari ahiye ndetse ikaba isakaje amabati afite ibara ry'umutuku, iyi nyubako ikaba itaruzura ariko mu gihe izuzura ikaba izifashishwa mu kuyisengeramo hari kandi n'ibiti birebire.

Ahantu hateganyijwe hatatse amabara atandukanye, hahuriye imbaga nyamwinshi y'abantu irimo abagabo ndetse n'abagore, abo bantu bakaba bicaye bakurikiye icyo umuntu uri imbere yabo ari kubabagezaho ku bijyanye n'ingingo zitandukanye.

Inyubako nziza cyane ifite amabara y'umuhondo weruye ndetse n'umweru ikaba yubatswe mu buryo bugezweho bugerekeranije iyi nyubako ikaba itangirwamo serivisi zijyanye n'amacumbi ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa.

Inyubako nziza cyane ifite ibara ry'ubururu ndetse yubatswe mu buryo bugerekeyije, iyo nyubako ikaba ikorerwamo ibikorwa bitandukanye birimo nk'inama nanone kandi iyo nyubako ifite imbuga nziza iriho ibyatsi bitoshye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bugerekeranyije ikaba itangirwamo serivisi zijyanye n'ibinyobwa, ibiribwa ndetse n'amacumbi. Iruhande rw'iyo nyubako kandi hari indabo nziza zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Ibiryo byiza cyane bitetse ndetse bimwe muri byo bikaba biri mu masorori, bikaba bitarashyirwa ba nyirabyo, bikaba bitegurirwa mu nyubako zitangirwamo serivisi zijyanye n'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa n'amacumbi.

Mu ruganiriro harimo intebe zigezweho zikozwe mu buryo buruhura abazicayemo, na none kandi muri urwo ruganiriro harimo ishusho imanitse ku rukuta ndetse n'isakazamashusho iteretse ahantu ababa bicaye muri izo ntebe baba bayitegeye.

Mu cyumba cyiza cyane gifite amabara meza harimo uburiri busha, ubwo buriri bukaba bufite ibiryamirwa bifite amabara y'umweru ndetse n'ibyo kwisegura, muri icyo cyumba kandi harimo intebe zikozwe mu buryo bugezweho.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, iyi nyubako ikaba ifite ibara ry'umweru ndetse ikaba ikorerwamo ibintu bitandukanye birimo n'inama ndetse n'ubukwe nanone kandi imbere y'iyo nyubako hari indabo zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru.

Icyumba kiza cya hoteri gifite amabara meza ndetse hakaba harimo n'uburiri bushashe neza. Ubwo buriri bukaba bufite ibara ry'umweru. Abantu bakaba baza maze bakishyura amafaranga bagahabwa uburenganzira bwo kurara muri icyo cyumba.

Inzu nini yubatswe mu buryo bugezweho ndetse igerekeranije ifite ibara ry'umuhondo weruye, iyo nzu ikaba itangirwamo serivisi zitandukanye zirimo nk'amacumbi ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, imbere y'iyo nzu kandi hakaba hari ubwogero rusange.

Mu isoko rusange ritubatse mu buryo bugezweho, harimo abantu barimo abagabo ndetse n'abagore bahetse abana, none kandi aba bafite ibicuruzwa bitandukanye baje gucururiza muri iryo soko birimo n'ibitunguru.

Mu isoko rusange harimo imbaga nyamwinshi y'abantu barimo abana, abagore, ndetse n'abagabo, hakaba kandi harimo ibicuruzwa bitandukanye birimo nk'imyenda, inkweto, ndetse n'ibindi, aba bakaba baje kugura ibyo bicuruzwa.

Mu isoko rusange harimo imbaga nyamwinshi y'abantu barimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko. Muri iryo soko harimo umugore uhetse umwana mu mugongo, muri iryo soko kandi harimo ibicuruzwa bitandukanye birimo n'imyambaro.

Mu isoko rusange hari ibintu byinshi biri gucururizwamo, ibyo birimo ibikoresho byifashishwa mu rugo harimo: nk'ibyuma, amasahani ndetse n'ibikombe byifashishwa mu kunywa amazi, hari kandi n'ibikoresho byifashishwa mu buhinzi ari byo amasuka.

Mu isoko rusange harimo abantu benshi barimo abagore baje gucuruza imbuto zitandukanye zirimo nk'imyembe, amacunga ndetse n'inyanya, iri soko rikaba risakajwe amabati bityo bikaba bituma iyo imvura iguye itanyagira abaricururizamo.

Ahantu mu isoko rusange harimo ibicuruzwa bitandukanye, ibi twavugamo urugero nk'imyenda yaba iy'abagore ndetse n'iy'abagabo ikaba imanitse ku dutanda twakozwe hifashishijwe ibiti, na none kandi hari umwana muto wikoreye imisambi.

Mu isoko rusange harimo ibicuruzwa bitandukanye birimo ibikoresho byo mu rugo harimo: amasahani, ibikombe ndetse n'ibyuma, hari kandi n'utumamiro dukoze mu biti twifashishwa mu guteka.

Mu isoko rusange harimo imyambaro itandukanye irimo iy'abagabo ndetse n'iy'abagore, harimo kandi n'umugore wambaye umwambaro ukoze mu gitenge ndetse n'ingofero ifite amabara y'umutuku ndetse n'umukara, iyi myenda ikaba iri gucuruzwa n'umwana muto.

Imbabura zikozwe mu ibumba ndetse no mu byuma zifashishwa mu gucana, izi mbabura kandi zikaba zoroshya guteka maze bigatuma hadakoreshwa inkwi nyinshi, ibi nabyo bikaba bituma habaho gusigasira amashyamba no kutangirika kw'ibidukikije.

Ni mu isoko rusange hateraniyemo abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, iryo soko rikaba ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye birimo nk'imyambaro ndetse n'ibikomoka ku bihingwa, ibyo bicuruzwa bikaba kandi birimo n'imbuto zirimo nk'inyanya ndetse n'imineke.

Imbabura ikoze mu cyuma ndetse inafite umuzenguruko wa mpande esheshatu, iyi mbabura ikaba yifashishwa mu kugira ngo inkwi zikoreshwa mu gucana zitaba nyinshi nanone kandi hari imashini yifashishwa mu kudoda imyenda iyo yacitse cyangwa se mu kudoda imishyashya.

Mu cyumba cyabugenewe gifite amabara meza harimo intebe zigezweho ndetse n'ameza agezweho hateretseho kandi icupa, icyo cyumba kikaba gitangirwamo serivisi zitandukanye zirimo izijyanye n'ibinyobwa ndetse n'ibiribwa.

Umuhanda w'igitaka ukikijwe n'inzu zituwemo n'abantu harimo umubyeyi w'umugore wicaye ku kinyabiziga cy'pikipiki, akaba yambaye impuzankano iranga abamotari ndetse ifite ibara ritukura. Uyu kandi akaba yambaye ingofero zirinda mu gihe cy'impanuka.

Mu muhanda hateraniyemo abagabo bambaye imyambaro ifite ibara ry'icyatsi kibisi bakaba bakora umwuga wo gutwara abagenzi ku magare. Nanone kandi hari ibiti birebire ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Mu muhanda wa kaburimbo ufite ibara ry'umukara harimo ikinyabiziga k'ipikipiki kicaweho n'abagabo babiri bambaye ingofero zibarinda mu gihe k'impanuka, mu nkengero z'uwo muhanda kandi hari inyubako zikorerwamo ubucuruzi.

Mu muhanda ugezweho ufite ibara ry'umukara harimo umunyeshuri wambaye impuzankano zifite ibara ry'ikigina ndetse n'ishati y'umweru akaba ari ku igare aho ahetse umubyeyi we, mu nkengero z'uwo muhanda kandi hateye ibiti birebire.

Harimo ikinyabiziga cy'ipikipiki ikaba itwaye abagabo babiri bambaye ingofero zibarinda mu gihe cy'impanuka. Hari kandi n'inyubako zikorerwamo imirimo itandukanye.

Abagabo barimo abambaye impuzankano y'abamotari ifite amabara y'umutuku bateraniye hamwe aho bari kureba umugabo w'umuzungu uri ku kinyabiziga k'ipikipiki gikoresha umuriro w'amashanyarazi.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ikinyabiziga k'ipikipiki ndetse n'umugabo ukicayeho, icyo kinyabiziga kikaba kifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu hari kandi n'inyubako zifite amabara y'umweru zikorerwamo ubucuruzi.

Mu muhanda ukozwe neza cyane harimo abantu babiri bicaye ku ipikipiki, aba bakaba bambaye ingofero zibarinda mu gihe k'impanuka nanone kandi hari ibiti bikuze by'ubwoko butandukanye.

Mu muhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho ndetse ufite utuyira tw'abanyamaguru, ku ruhande harimo umugabo wicaye ku ipikipiki, akaba ari kuyitwara ndetse anambaye ingofero imurinda mu gihe cy'impanuka.

Ahantu hitaruye umusozi, hari ibinyabiziga bitandukanye byifashishwa mu gutwara imizigo ndetse no gutwara abantu, birimo nk'imodoka ndetse n'amapikipiki. Hari kandi n'inzu zikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo ukozwe neza harimo ikinyabiziga k'ipikipiki gihetse abantu babiri, abo bantu bakaba bambaye ingofero zibarinda mu gihe k'impanuka, mu nkengero z'uwo muhanda kandi harimo ibiti bikuze bitoshye.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo umugabo ufite igare ripakiyeho ibitoki, ibyo bitoki bikaba bikorwamo imineke ndetse iyo mineke na yo igakorwamo urwagwa, uyu mugabo akaba ari kugenda asatira ahantu hari ikinyabiziga k'imodoka.